Abantu babiri bari gusuhuzanya bigaragara ko umwe agiye mu kwaka serivisi undi amwakiranye, yombi. Inyuma hari umumama wambaye ikanzu y'umweru.

Uyu ni umugabo uri munzira yishimye, wambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'ubururu, ufite igikapu ku rutugu avuye kugana sonarwa ni umushinga w'ubwishingizi.

Aho bacuruza imyenda mu nzu harimo umugabo w'umuzungu ufite imyenda mu ntoki ishati y'umweru n'ikoti ry'umukara inyuma ye hari umugabo uhagaze wambaye ikositimu y'umukara.

Uruganda rw'Akagera motoro ruzwiho gucuruza imodoka, mu kibuga cyaho harimo imodoka n'umugabo wambaye ipantaro y'umukara y'ikoboyi n'umukobwa wambaye ishati y'umuhondo n'ipantaro y'umukara.

Mu nzu y'ubucuruzi aho tubitsa amafaranga, harimo umukiriya uri guhereza umukozi wabo amafaranga.

Iyi ni inzu ifite amakararo y'umweru n'utubuni iruhande rwatwo n'ibicuba birimo amata harimo ndetse n'icyo bayadahisha.

Aho mu ruriro hari umukobwa wambaye umwenda w'umweru n'umukara ,aho ageza ku bakiriya baje bagana iyo serivisi yaho baririra ibyo kurya ,akabashyikiriza ibyo kurya bajya gutaha bakamuha agahimbazamusyi ,hari ibiti biteye neza bizana umwuka mwiza, kandi abari aho ngaho baba banezerewe.

Aha ni inzu, yabugenewe, hakorerwamo, abaza kuyigana, bashaka ubwishingizi bwo kwivuza.

Umuhungu n' umukobwa banezerewe. Umukobwa yambaye agapira k'ibihogo, imisatsi y'umukara bafite urufunguzo mu ntoki, n'ikarita yo kubikuza amafaranga iruhande rwabo.

Ababyeyi bari hamwe, bafite ibicuba bibikwamo amata, bazamuye amaboko, baragaragaza ibyishimo byabo bafite aka kanya.

Mu isoko aho bacuruza ibyo kurya, harimo imbuto, imineke, inanasi, ibinyomoro, amaronji ndetse n'amatunda na water mellon.

Uru ni urubuga abashaka kuguriraho imyenda cyangwa ibikoresho bacaho bashaka kwigurira, hanyuma bakabiboherereza babanshije kwishyura nyuma.